Umwana uri kurira wihebye ubabaye cyane, inyuma ye hari umubyeyi w'umumama ufashe inkwi mu ntoki.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, abazungu ndetse n'abirabura, bari kwifotoreza ku kirangantego icyapa cy'ibitaro bya Butaro.